Abana babiri bari ku ivomero, umwe w'umuhungu ari gufasha mugenzi we kuvoma amazi, umumukobwa we ateretse akabido, arimo kuyavoma.

Umuganga uje gupima abantu, ndetse harimo umugore umwe utereye umwana, Uwo akaba afite n'igipimo gipima umuriro, yambaye n'agapfukamunwa, hari n'uwundi musekirite uhagaze, ku ruhande rwabo.

Umwana w'umuhungu ari ku ivomero, urebye ari gukaraba mu maso ndetse ari guseka kandi yishimye cyane.

Mu ihema ahari abantu baje kwivuza, umugabo umwe wicaye ku ntebe afashe akana ndetse uri kumwe na nyina ku kuboko.

Ni kwa muganga, aho hari abadamu benshi cyangwa se abagore benshi, bazanye abana babo batoya cyane, baje kubonana n'umuganga kugira ngo bashobore kubavura kandi baramutegereje.

Ababyeyi baricaye, bari kwa muganga ndetse hakaba hari n'umuganga uri hagati yabo, uri kugira ibyo abigisha.

Ni mu nzu, mu rugo rw'umuntu aho abantu bishimye. Harimo abagore benshi, bose barimo baratamba, barimo barabyina, ubona bose bishimye cyane.

Ni kwa muganga, aho hicaye ababyeyi batatu, ubona rwose baje kwisuzumisha, umuganga wicaye imbere yabo arimo arabafata ibizamini kugira ngo abashe kubavura.

Umwana w'umuhungu ari ku ivomero, yambaye umupira utukura n'ikabutura y'ubururu, mu kuboko kwe afite igikombe, arimo kuvoma amazi kandi mu bigaragara arishimye cyane.

Hari ababyeyi benshi bazanye abana ndetse hari abantu bashinzwe kwita kuri abo bana, rwose ubona ko hari icyo bari kubaha kijyanye n'icyo kubafasha.

Abana bane bari ku ivomero bahagaze, umwe afite inkoni ndetse yambaye umupira utukura n'ikabutura y'ubururu, undi ashize amaboko inyuma n'undi na we ni uko ariko mugenzi wabo ari we uri kubavomera.

Umwana w'umuhungu, arunamye yambaye ikabutura itukura ndetse na bodaboda, ari kunywa amazi muri robine.

Ni ku ruvomero ahateraniye abantu benshi cyane, harimo urubyiruko, abakuze, bose bahuriye ku mugezi barimo baravoma, buri muntu muri bo afite igikoresho cye yazanye kuvomesha.

Ni mu cyumba cy'inama, aho hicaye abagabo ndetse n'abagore babiri, bari kuganira. Biteretse icyayi cyangwa se igikombe cy'icyayi ku meza yabo.

Abantu barahagaze benshi, abagabo n'abagore, barimo barakoma amashyi, ndetse ubona bishimye, imbere yabo hari umugabo w'umuzungu wambaye ikoti yirabura, barimo baramwishimiye cyane.

Umusore umwe ndetse n'abakobwa bane, barahagaze kandi bari gufata ifoto y'urwibutso, bose bambaye imipira y'ubururu yanditseho amagambo, kandi nanone bakaba bambaye n'ingofero z'umweru.

Ni kwa muganga, umubyeyi aje kuvuza umwana we, umwana nta shati yambaye yakuyemo ishati, bari na muganga ari kumwe na muganga, umuganga amufashe mu ijosi kugira ngo amusuzume arebe indwara arwaye.

Ni umuntu uje kwivuza kwa muganga, mu bigaragara bari kumutera urushinge ku kuboko kandi muganga yambaye icyo bita ga mu rurimi rw'amahanga.

umubyeyi, ukuze, uhetse umwana we ku mugongo. Ari ku ivomero. Ari koza umufuniko w'indobo, kandi impande ye hari ibiti byinshi cyane.

Ababyeyi benshi ndetse n'abagabo, bateraniye ahantu, bose bahagaze, harimo ndetse na bamwe muri bo, bafite ibyapa, handitseho amagambo menshi cyane.

Umubyeyi uvuye kuvoma ndetse ubona aduteye umugongo, imbere ye ndabona amashyamba, ndabona n'ikizu gisa nkaho kituzuye.

Umugore uje kuvuza umwana we, baricaye, umuganga uri ku ruhande rwabo ubona yuko ari kuvura umwana ubabaye.

Ni ku ivomero, aho hahagaze umumama ndetse n'abantu benshi bamukikije, barimo baravoma, hari amabase, hari injerekani, ubona rwose niko kazi barimo.

Ku ivomero hari umugore umwe n'abana babiri, uwo akaba ari kuvoma amazi mu kajerekan se cyangwa mu kabido hari n'undi mwana wambaye ishati itukura uhagaze n'undi wicaye.

Abagabo bicaye barimo baraganira bamwe muri bo biteretse icyo kunywa hari n'uri kuvuga ijambo bose ubona ko bamuteze amatwi.

Umugabo uri kumwe n'umwana w'umukobwa uhagaze, wikoreye ijerekani, ubona ari guseka ndetse cyane, bombi barishimye.

Abana b'abanyeshuri, bambaye imyenda y'ishuri, harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bari ku ivomero, aho bari kuvoma amazi bavomera ku utudobo, utwo tudobo dufite ibara ry'umuhondo.

Ni mu cyumba kinini cyane aho hateraniye abagore benshi bazanye abana babo, ni kwa muganga umwe we ateruye umwana ndetse afite n'ibasha ku kuboko.

Ahantu hahuriye abantu benshi cyane bahagaze ndetse bamwe nabo baricaye mu byatsi, hakurya hari n'ihema aho hahuriramo n'abandi bantu.

Ni ku rukarabiro aho hari abanyeshuri benshi, bahagaze barimo barakaraba intoki, bambaye n'imyenda y'ishuri, ubona rwose bishimye cyane.

Ni mu cyumba k'inama aho hateraniye abazungu benshi, bamwe baricaye baduteye umugongo, abandi nabo barimo baravuga biteretse amazi yo kunywa.

Mu cyumba cy'ishuri harimo abanyeshuri benshi, baricaye bambaye imyenda y'ubururu na kaki ndetse n'udupfukamunwa. Biteretseho isahani yo kurya.

Ihuriro ry'abaganga ndetse n'abaforomo, barahagaze bari kwifata ifoto y'urwibutso, bakaba bari kumwe n'undi mugabo wambaye ikoti wirabura, ishati y'umweru, bari gufata agafoto.

Umwana w'umuhungu ari ku ivomero afite n'agakombe ari kuvoma amazi ari kumeneka menshi kandi yambaye n'umupira uciye amaboko.

Hari abantu benshi bateraniye ahantu, barahagaze, bamwe bambaye ingofero, abandi bahetse abana, abandi bari kuganira hagati yabo.

Kwa muganga hari abantu benshi cyane, ababyeyi ndetse n'abana. Umubyeyi umwe ahagaze imbere, ateruye umwana w'umuhungu kandi afite impapuro mu kuboko kwe.

Abana babiri, umwe ni umuhungu, undi ni umukobwa, barahagaze mugenzi we ari kumukarabya intoki, uwundi rwose ubona mu byishimo byinshi arimo araseka.

Mu cyumba cy'inama aho hateraniye abantu benshi baricaye, harimo n'abazungu benshi cyane, ku meza biteretse icupa ry'amazi ndetse n'amakaye.

Ni ku ivomero aho hari umusore umwe n'umugore umwe ndetse n'abana babiri barimo baravoma, hari isafuriya ndetse n'ijerekani umwana urimo kuvomera.

Ku mugezi hari abana batatu barimo baravoma amazi ndetse bitwaje n'indobo y'amazi. .

Uyu mubyeyi uri kutureba kandi aseka uri kumwe n'akana ke na we ubona yishimye, bahagaze mu murima kandi yitandiye n'agatambaro k'umweru.

Umubyeyi uje kwa muganga ari kumwe n'umwana we; ubu bari kunywa umuti bawucishije mu kanwa ke. Aho ubu ari guseka.

Umwana w'umuhungu, arasutamye, yambaye ikabutura ndetse n'agapira gaciye amaboko, mu kiganza cye harimo haratwereka yuko, afitemo amazi.

Abasore n'inkumi barahagaze barimo barafata ifoto, bambaye bose hafi ya bose imyenda y'imipira iciye bugufi bamwe y'imyeru ndetse n'abandi bambaye amataburiya.

Kwa muganga hari umwana uharwariye, uryamye hasi, harimo abaganga babiri barimo baramwitaho bamufashe ukuboko. Ku ruhande rwabo hakaba hari nyina w'umwana nawe we wicaye arimo arabareba.

Umugore umwe witandiye uri kumwe n'umugabo, umwe na we, bari ku ivomero bombi baje kuvoma amazi kandi bitwaje ijerekani.

Umugabo uhagaze wambaye ikoti ryiza cyane ndetse n'amadarubindi, ari kumwe n'umuzungukazi. Hari icyapa bari kutwereka cyanditseho ngo " Visit Rwanda" cyangwa se sura u Rwanda.

Hari abantu benshi bicaye bambaye imipira y'imweru, umwe muri bo wambaye nawe ingofero y'umweru abandi itukura bari mu kiganiro.

Kwa muganga hateraniye abantu benshi cyane baje kwivuza harimo abakuze, abasaza, abakecuru urubyiruko, bose bicaye bategereje kubonana na bamwe harimo n'abana bafite umufuka uri ku ruhande rwabo.

Amagambo yanditse yitwa UNICEF, mu byo ukuri ni ikigo gifasha abantu batandukanye bakeneye ubufasha.

Kwa muganga aho hari abaganga ndetse n'abaforomo, barahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, kandi bamwe bambaye amataburiya y'umweru abandi bakaba bambaye asa n'ubururu.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri, bahagaze ku ivomero ari benshi cyane. Bamwe muri bo ni abahungu, abandi ni abakobwa, bari gukaraba intoki.

Umubyeyi uhagaze, uteruye mwana uri ku ivomero, afashe ndetse no kuri robine, yambaye umupira uciye amaboko.

Ni mu cyumba cy'inama, aho hateraniye abasore n'inkumi bose bambaye udupfukamunwa, ku meza hateretse ikaye n'icupa ry'amazi.

Ni ku ivomero, hari abantu benshi bahaje cyane cyane abagore n'abana benshi, umwe muri bo arimo arasunika ipompo y'amazi n'undi mwana na we akaba ari kuvomera amazi.

Abagore batatu bari kwa muganga, babiri barahagaze umwe we araryamye ku gitanda kandi bose uko ari batatu bambaye udupfukamunwa, abandi babiri muri bo bambaye amashati ajya gusa n'ubururu.

Kwa muganga, hateraniye abantu benshi cyane batandukanye, harimo abaganga harimo n'abakozi bo kwa muganga, bamwe muri bo bambaye amataburiya, abandi bambaye imyenda isanzwe. Barimo barafata ifoto y'urwibutso.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe uri hejuru yabo, ari kubafasha guterura umufuka w'umuceri, haragaragaramo imifuka myinshi y'umuceri.

Umusore umwe wicaye ari kumwe n'umuganga. Uwoakaba afite igitabo kinini cyane yambaye itaburiya y'umweruru n'agapfukamunwa, afite n'imisatsi myinshi arimo kwandika ku gitabo.

Umwana w'umukobwa uri ku ivomero yambaye ikanzu ijya kusa n'umweru n'umukara, ari koza indobo y'amazi.

Ni mu kigo cy'ishuri aho hari abanyeshuri benshi cyane abahungu n'abakobwa bose kandi uko bangana bamanitse amaboko hejuru, bari kumwe n'abarimu babo harimo abagore ndetse n'abagabo babiri.

Kwa muganga, aho hateraniye abantu batandukanye, abamama cyangwa se abagore bakuze, abasore, abagabo, abakobwa, bose bambaye udupfukamunwa. Umwe we ahahagaze yambaye ikoti ndetse n'igitenge, afite n'umusatsi mwinshi cyane.

Akana k'agakobwa gato cyane, kari kwa muganga barimo baramutera urushinge. Ntabwo arira, yambaye agapira k'umweru.

Kwa muganga hari umubyeyi wazanye umwana we, hari imiti bari kumuha, kandi barimo baraseka ubona ko nta kibazo gihari.

Umugabo wicaye hanze wambaye ishati iciye amaboko, ufite ibitabo ndetse n'ikaramu, ari kuganiriza umugore iwe mu rugo uri kumwe n'akana.

Ni ku ivomero, aho hari abana baje kuvoma ndetse n'abandi basore babiri, umwe ari ku ipombo ari kuvomera bagenzi be amazi. Hari amajerekani menshi cyane.

Ni mu kigo cy'ishuri aho hateraniye abana benshi ndetse ubona bishimye, bambaye imyenda y'imyeru, bafite amakaye bamwe bayazamuye hejuru, barishimye cyane harimo n'umwarimu wabo uhagaze iruhande rwabo.

Umusore uhagaze imbere y'umukecuru, uwo akaba ari umuganga nta kindi ari gukora ari gutanga imiti ku barwayi, harimo n'abandi bahagaze ku ruhande rwe.

Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dogiteri Nsabimana Sabin uri uteranye n'abandi bagabo ndetse n'abasore, bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima.

Aba mama ndetse n'abakobwa barahagaze, hari icyo bari kureba kandi bose urabona bari guseka bishimye cyane. Umwe we yambaye n'igitambaro ku mutwe arimo aratwiyereka.

Ni mu kigo kirimo abanyeshuri benshi, haje umuganga wambaye itaburiya y'umweru cyane, arimo aratera urushinge umwana wambaye ishati ijya gusa n'ubururu.

Umwana w'umuhungu uri ku ivomero ateruye akadobo kuzuye amazi ndetse n'undi musore uhagaze ku ruhande rwe.

Umwana w'umukobwa usutse, ari ku ivomero, aho arimo gukaraba intoki, ndetse n'isabuni arimo guseka.

Abana babiri, barasutamye, bari ku rukarabiro, bari gukaraba intoki, ndetse ubona barimo baraganira, bishimye hagati yabo.

Mu cyumba cy'inama hateraniye abaforomokazi benshi ndetse bafite ibitabo imbere yabo ubona hari isomo barimo barakurikira.

Abagabo babiri mu cyumba k'inama, barimo baraganira ndetse biteretse uducupa tw'amazi harimo n'ibitabo ku meza ndetse n'ibendera ku ruhande rwabo.

Umubyeyi uhagaze ku ivomero, afite ijerekani ari kuvoma amazi, yambaye ndetse n'umupira w'amabara n'igitenge n'agatambaro k'umutwe.

Minisiteri y'ubuzima, dogiteri Sabin Nsanzimana ari kumwe n'abandi bayobozi cyangwa se abo bakorana, bari mu cyumba cy'inama aho bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima.

Abagore benshi barahagaze ndetse bamwe muri bo mubona ko ari n'abajyanama b'ubuzima barimo gufata ifoto y'urwibutso,

Ni mu ihema aho abaganga baje gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage. Hari abahagaze bategereje kubonana n'umuganga, umwe we ari kumwe n'umuganga ndetse bari kumuvura.

Umugore ndetse n'umugabo umwe, barahagaze, bateretse ku meza amakarito menshi cyane, bigaragara ko ari ubufasha baje gutanga.

Kwa muganga aho hateraniye sitafu cyangwa se abakozi bo kwa muganga, barahagaze barimo gufata ifoto y'urwibutso harimo abagore, abagabo ndetse n'abakobwa.

Abana bato bakoze uruziga, ku ruhande rwabo hari abandi bagabo batatu bicaye kandi kuri urwo ruziga rw'abana aho bicaye, hari n'umuzungu umwe uri kubaganiriza.

Abantu baricaye mu busitani bari mu nama. Hagati yabo hari umudaso kandi bose bafite urupapuro ndetse n'ikaramu, imbere yabo haparitse imodoka.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bahagaze imbere y'ikigega cy'amazi, bafite n'ibikombe byo kunywesha amazi kandi bose bambaye imyenda y'ishuri y'inifomu.

Abantu baricaye, harimo abasore n'abakobwa, umusore umwe uduteye umugongo yambaye ishati ndetse n'ingofero, bamwe bafite ikaramu, n'impapuro bari kwandika.

Umubyeyi wambaye ingofero, ndetse n'igitenge n'agapira kagufi, arimo gukaraba intoki, aho arimo guseka, kandi ari imbere y'urugo rwe.

Mu cyumba cy'inama imbere yaho hahagaze abagore ndetse n'abagabo, bamwe bambaye amataburiya abandi ni imyenda isanzwe ubona rwose bishimye cyane.

Umwana w'umukobwa ahagaze ku ivomero, arimo aravoma amazi, afite amajerekani ageze kuri atatu. Ari kureba imbere kandi arimo araseka.

Ni mu cyumba cy'inama, aho hateraniye batanu, abagore babiri, ndetse n'abagabo batatu. Ku meza hari uducupa tw'amazi twinshi cyane. Ndetse n'amakayi, na telefone, n'ikaramu.

Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr. Sabien NSANZIMANA uri mu cyumba cy'inama, aho hateraniye abantu benshi, ingeri zose uhagaze imbere yabo uri gutanga ubutumwa ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu baricaye mu cyumba cy'inama ari benshi cyane, harimo abagabo, abagore ndetse n'abazungu.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bari mu mugezi bari mu koga, kandi nta myenda bambaye urebye barishimye cyane.

Abagore babiri bahagaze ku ivomero barimo baravoma, hari amajerekani, hari n'undi mumama uhagaze ku ruhande rwabo abitegereza.

Hari abantu benshi, abagore n'abasore n'abagabo, bose muri bo bambaye amataburiya y'ubururu, barakoma amashyi kandi mu bigaragara urabona ko bishimye cyane.

Umubyeyi uri kwa muganga uzanye umwana we aje kumuvuza, hari n'umugangakazi umuriho uri kumuha ku binini, kandi yambaye n'amaherena.

Ni ku mugezi aho umugore umwe uri kuvoma amazi, ku ruhande rwe hari umusore uzanye igare rye nawe arimo koza igare aho ngaho.

Umwana w'umunyeshuri, wambaye imyenda y'ishuri, ari ku rukarabiro ari gukaraba intoki, kandi ari kureba imbere ye, hakurya hari ibiti byinshi.

Ni ku mugezi, hari amajerekani menshi ndetse n'abantu bahagaze, umumama umwe ateruye amajerekani abiri, bamwe nabo bari ku murongo bategereje kuvoma.

Mu cyumba cy'inama hateraniye abantu benshi, abamama cyangwa se ababyeyi n'abagabo, umwe muri bo ahagaze imbere yabo, yambaye itaburaya y'umweru arimo arabigisha.

Abana bato bageze kuri bane barishimye cyane, bari gukaraba intoki, hari n'undi mugabo uhagaze hejuru yabo uri kubakarabya.

Umusaza umwe aricaye ku ijerekani, aho ari ku ivomero, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati iciye amaboko, arimo araseka.

Umusirikare wambaye imyenda y'akazi, ari kumwe n'abandi bantu batandukanye n'umumama umwe usutamye imbere y'abana bato, hari icyo ari kubaha.

Ni ku ivomero, aho hari abantu benshi cyane, baje kuvoma amazi, harimo abadamu, abakobwa ndetse n'umugabo umwe wambaye ingofero ku mutwe.

Ababyeyi barahagaze, bamwe bari imbere, abandi bari inyuma, bose muri bo bambaye udupfukamunwa ndetse harimo n'umuzungu umwe.

Umwana muto w'umukobwa wambaye ishati itukura, ari ku rukarabiro arimo gukaraba intoki, ari kumwenyura ndetse ubona yishimye.

Hari abana b'abakobwa bato cyane, bari ku rukarabiro barimo barakaraba intoki zabo, kandi ubona bishimye na bo.

Ni ku ivomero, aho hari abantu benshi, ababyeyi, abana, abasaza, abasore, bose barahagaze, umwe afashe kuri pompe, arimo kuvomera mugenzi we.

Ni kwa muganga, Aho hagaze abagore n'abagabo, barahagaze, bafashe ifoto y'urwibutso, harimo n'umuganga umwe wambaye itaburiya ndetse n'abandi bari ku ruhande rwe.

Ni mu cyumba cy'abaganga, aho abarwayi baza kwivuza, harimo umumama wicaye wambaye agapfukamunwa k'umukara, bari kumutera urushinge ku kuboko, yambaye ndetse n'ingofero.

Mu cyumba cy'inama hari umugabo uhagaze wambaye ishati ndetse n'ipantaro bisa, umugore we yicaye ku ntebe hari ibyo arimo gukora, hateretse ndetse na mudasobwa ku meza n'intebe ku ruhande.

Hari umuntu urembye cyane uryamye uri kwitabwaho n'abaganga bane bose kandi bambaye amataburiya n'udupfukamunwa barimo baramwitaho cyane.

Abagore batatu baje bitandiye bambaye ibitenge baje kubonana n'umuganga. Hari ibizamini bari kubafata umwe arambura ukuboko kwe barimo baramusuzuma.

Ni ku ivomero aho umwana w'umuhungu uje kuvoma, hejuru ye hari undi musore urimo uramuvomera, ndetse hari abantu batambuka banyura hirya no hino, harimo abana b'abanyeshuri ndetse n'abandi bantu.

Ni kwa muganga aho hari abagore benshi ndetse n'abagabo, bishimye bari gukoma amashyi, hahagaze imbere yabo umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse ufite n'agasatsi gake, barimo kumuririmbira.

Ni mu cyumba cy'inama, aho hagaragaramo abagore, abagabo ndetse n'abasore. bamwe baricaye, abandi na bo inyuma barahagaze. Hari n'umugabo uhagaze hagati yabo.

Abagabo bamwe barahagaze ndetse n'abandi badamu na bo bahagaze, hagati yabo hari umudamu w'umuzungu wambaye ikanzu itukura, n'undi na we ku ruhande rwe wambaye itaburiya, usibye ko bose bambaye amataburiya, ubona ko bahagaze bari gufata ifoto kandi bishimye.

Kwa muganga aho hari abamama benshi cyangwa se abagore benshi, baje kuvuza abana babo, hari ndetse n'umusore uhagaze ku ruhande rwabo uri kubafasha.

Abana b'abanyeshuri bari ku ivomero, bari kuvomera utudobo ndetse n'utujerekani, bambaye imyenda y'ishuri, bamwe ni abahungu abandi ni abakobwa.

Ni ku ivomero aho hari abantu benshi baje gushaka amazi, hari abana, hari abakobwa, hari n'ababyeyi bakuze, bose bategereje kuvoma, umwe we afite igitenge yashyize ku rutugu rwe.

Umubyeyi wicaye ufite agapfukamunwa ari kumwe n'abana be babiri umwe aramuhetse ku mugongo, undi ubona ahagaze iruhande rwe kandi akaba ari kubatekera igikoma.

Abana barishimye cyane bambaye utuntu tw'umweru ku mutwe wabo, bamwe barakoma amashyi abandi bari guseka bambaye n'imipira isa n'umuhondo.

Hari abana benshi bahagaze, bamwe muri bo bafite utujerekani, ndetse urabona bahagaze bishimye cyane.

Ni mu nama, aho abantu bicaye harimo abagore ndetse n'umugabo umwe mbona, umwe mu bicaye imbere afite ikaramu n'urupapuro, undi asa nk'uri kugira ijambo ari kuvuga.

Abantu batatu bafashe umuntu umwe mu bigaragara ufite ikibazo cy'uburwayi, afashe mugenzi we ku rutugu, n'undi amufashe ku mashati.

Uyu mubyeyi witandiye igitambaro ku kumutwe ufite umusatsi mwinshi ari kureba kuruhande aricaye ahantu ku gatebe yitegereza.

Ni mu cyumba cy'inama bamwe baricaye ndetse n'abandi bicaye imbere yabo ari batatu, imbere yabo hahagaze umugabo umwe wifashe mu mufuka ndetse uri kugira ijambo ari kubagezaho.

Abagabo n'abagore, bamwe baricaye imbere abandi bahagaze inyuma yabo, ubona ko bishimye cyane, bamwe barimo baraseka abandi ubona batuje cyane.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, bamwe mu muri bo ni abagore abandi ni abagabo, barimo barafata ifoto y'urwibutso.

Ni mu cyumba cy'inama, aho hicaye abantu benshi, hakaba n'abandi babiri bahagaze imbere yabo, umwe yambaye ipantaro y'umukara n'agapira gatukura, undi na we afite isakoshi mu kuboko kwe.

Ni mu cyumba cy'inama aho hateraniye abagore benshi ndetse n'abagabo, harimo abari gukoma amashyi, hari ndetse n'umuzungukazi umwe na we uhagaze hagati yabo.

Umusore hano utishimye mu bigaragara aratwereka ijisho rye ririmo amarira atari make, arimo kurira ndetse ubana afite agahinda.

Umugore wicaye hasi ku kirago ari kumwe n'abana be babiri. Umwe aramukikiye undi ari kuhande rwe. Uwo muntu yambaye igitambaro ndetse ku mutwe we.

Ibitaro by'Indera bishinzwe kwita ku barwayi bo mu mutwe, hahagaze umugabo w'umuzungu uhetse igikapu, wambaye ishati y'ubururu.

Ni mu kigo cy'ishuri, aho abana benshi bahagaze, barishimye, bamwe bazamuye amaboko hejuru, bose ubona ari mu kibuga kandi mu bigaragara, baraseka cyane.

Umupira ufite amabara abiri, ubururu n'umweru, handitse n'amagambo inyuma ku mugongo n'uwa CHOGM ya nama iherutse kuba.

Umwana w'umusore wambaye umupira w'umukara, yifashe ku maso, asa nk'ufite agahinda kenshi, ndetse inyuma ye hari ibintu biteretse hejuru ye.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi kibisi, ufite mu maso ye agahinda kenshi, amaso aratukuye, amarira aramanuka n'ibimyira bikamanuka, ubabaye cyane.

Aba bantu bateraniye ahantu hamwe, harimo abasore ndetse n'abakobwa, imbere yabo cyangwa se hagati yabo, hari undi mupapa uhahagaze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ari kumwe n'undi mugore.

Umusore wicaye wifashe ku mutwe, ufite umusatsi mwinshi, usa nk'ubabaye, ku ruhande rwe hari umukobwa na we ufite imisatsi myinshi umukozeho.

Mu cyumba cy'inama, hateraniye abantu benshi harimo abagore benshi, umwe yicaye yambaye imyenda y'umweru, ku meza hari amacupa atatu y'amazi.

Umubyeyi wicaye munsi y'igiti, wambaye igitenge n'agapira gaciye amaboko na kamabiri. Kuri icyo giti handitseho amagambo kandi hakaba hariho n'umunyururu.

Umuntu usa nabi wicaye hasi wambaye imyenda icitse ndetse yifashe no ku itama, ku kuboko kwe afite n'icupa ry'amazi.

Umubyeyi ukuze ukenyeye kandi wishimye cyane mu bigaragara, wambaye n'ingofero ufite n'icumu, arishimye cyane.

Umwana uhagaze wifashe ku mutwe uri kurira kandi ubona ababaye, ari kumwe n'abandi bantu ku ruhande rwe na bo barimo baratambuka bigendera.

Mu cyumba cy'inama hateraniye abantu benshi batandukanye, bari gufata ifoto y'urwibutso, bamwe muri bo harimo abasore, inkumi n'abagabo, barahagaze, imbere yabo hateretse n'impapuro ku meza.

Umukecuru wambaye ibitenge bisa, ndetse n'igitambaro kiri ku mutwe we, uwo mukecuru arimo guseka, kandi urabona n'amenyo ye arimo arayatwereka.

Umuntu usa nabi wambaye umwenda wanduye ndetse n'ubwanwa butameze neza ufite n'imisatsi yuzuye ibitaka.

Ni mu cyumba aho hateraniye abagore batatu, babiri muri bo bafite abana b'impinja, ndetse n'umugore umwe, wicaye nawe ufite icyo ari kubabwira, imbere ye ku meza, hari telefone ebyiri.

Uyu mubyeyi uri hanze y'inzu ateruye umwana we, bombi barimo baraseka kandi mu bigaragara barishimye cyane.

Umukobwa ufite umusatsi mwinshi ku mutwe, akaba abyibushyemo yambaye ishati y'umweru w'amaboko maremare, kandi ameze nk'uri kubabara ku mutwe.

Umukobwa wicaye, wambaye ipantaro, arayizinze, yambaye n'agasengeri k'umukara, arimo guseka kandi yifashe ku mutwe, afite n'umusatsi mwinshi cyane.

Ni mu cyumba cy'imyidagaduro, aho hateraniye abana benshi cyane barimo baraseka, harimo abahungu n'abakobwa. Umwe we yifashe ku mutwe, abandi bamuri inyuma ari benshi cyane.

Mu cyumba cy'inama abagore ndetse n'abagabo umwe witeretse mudasomwa imbere ye harimo n'icupa ry'amazi kandi hari ijambo arimo kugeza ku bandi.

Abagore bane bicaye ahantu, ndetse n'umugabo umwe uzamuye ipantaro ukuguru kumwe, bamwe muri bo bafite amakaye ndetse n'ikaramu hari ibyo bari kuganira.

Ikigo cya CARAES giherereye i Ndera , mwimbere harimo ubusitani bwiza ndetse n’ibiti ni hanini cyane.

Umubyeyi se cyangwa umukecuru ukuze, ari guteka ateretse inkono ye ku nkwi, ari guseka cyane, hari n'ibikombe biteretse, ku ruhande rwe. Hafi ye nanone hari inzu ituzuye, abamo.

Ni mu cyumba cy'inama aho hateranyije ababyeyi benshi, bamwe bahetse abana, imbere yabo hari umugabo uhagaze, wambaye agapfukamunwa ufite ibyo ari kubigisha.

Abakecuru, abasaza ndetse n'akana gatoya bicaye ku gatebe gatoya, imbere y'urugo barimo baraganira.

Abagabo n'abasore bakoze uruziga bicaye bamwe, abandi bagore barahagaze hagati yabo, barimo barabyina kandi ubona ko bishimye.

Uyu musaza rwose uhagaze imbere yacu yambaye ishati nziza y'amaboko maremare y'icyatsi kibisi, ubona inyuma ye hateraniye abantu benshi cyane, basa nk'aho bari bari mu nama.

Ni mu cyumba k'inama hateraniye abantu benshi batandukanye, abasore, abagabo, abagore ndetse n'abakobwa, harimo abambaye imipira y'imikara.

Umuntu uboshye ku maguru, yifashe mutwe, ari ahantu hasa nabi cyane, ubona yihebye adafite icyizere.

Umugabo arahagaze yambaye ipantaro yirabura ndetse n'ishati y'amabara, ari kuramukanya n'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, bari kurebana.

Ni mu cyumba cy'inama hateranyije abantu benshi harimo abasore n'inkumi n'ababyeyi, bose kandi baratuje bamwe bambaye amashati yirabura, abandiye imipira iciye amaboko.

Hari abasore n'abakobwa, ndetse n'ababyeyi, barahagaze ari benshi cyane, hafi ya bose bambaye imipira y'ubururu, kandi urabona bishimye cyane.

Umuntu uhagaze urimo kutwereka mu kanwa ke, afite n'akantu mu ntoki ze, arasamye, agiye kugashira mu kanwa ke.

Umugabo uri kwa muganga, mu bigaragara arimo aratwereka amenyo y'iwe kandi imbere ye hahagaze umuganga wambaye itaburiya ndetse uri kumuvura amenyo.

Ni mu kigo cy'ishuri hari abantu baje gusura ikigo bamwe bahagaze inyuma muri class, harimo n'umwarimu uri kumwe n'akana ari kumwereka imfashanyigisho.

Umwana uryamye ufite agasatsi gakeya, arimo araseka. Urebye arwaye amenyo. Muganga amuriho ndetse agiye kumwitaho.

Ni kwa muganga hari umwana w'umukobwa wicaye imbere ye hahagaze umumama w'umuganga yambaye agapfukamunwa ari kumukurira amenyo.

Kwa muganga hari ibikoresho byinshi bitandukanye, hari intebe, hari televiziyo, hari indabo hari n'aho bakarabira.

Umusore ufite agasatsi gake ndetse n'ubwanwa butari bwinshi cyane, arimo guseka atwereka mu menyo ye kandi nta n'umwenda yambaye, ni ukuvuga ko nta n'ishati cyangwa se nta n'umupira yambaye. Afite n'akagozi ku munwa we.

Umusore uhagaze, uri guseka cyane, arimo aratwereka amenyo ye, yambaye umupira w'umweru cyane, inyuma ye hari ikirangantego cya emutiyene.

Umwana ari kwa muganga, muganga arimo aramusuzuma ikibazo yaba afite mu menyo ndetse yambaye n'amadarubindi, arimo aramuvura.

Umugabo wibura cyane aryamye ku gitanda, nawe ufite ikibazo cy'amenyo aje kwivuza, akaba ari kumwe n'umuganga ri kumwitaho yambaye ingofero ndetse n'agapfukamunwa.

Umusore uhagaze uri guseka yambaye ishati y'ikoboyi ndetse n'umupira mo imbere, ufite agasatsi gakeya n'ubwanwa bwinshi.

Umusaza ukuze cyane wambaye amadarubindi, ari kwireba ndetse afite n'agacupa ku kuboko kwe ubona ko hari icyo ari gukora.

Umugabo uhagaze imbere ari kwireba ku kirahure aratwereka amenyo ye ndetse n'umugozi afite mu kanwa ke yambaye umwenda wera.

Ni kwa muganga, aho hari umusore ufite amaderede cyangwa se usutse, uje kubonana n'umuganga, ari kumwereka mu kanwa ke.

Umusore ufite imisatsi myinshi, ari kwireba ku ndorerwamo, yambaye umupira w'umweru, akaba atwereka amenyo ye, ndetse afite n'akagozi mu kanwa ke.

Ni mu ishuri aho hari abanyeshuri benshi bicaye mu ntebe y’ishuri, bose uko bangana bazamuye amaboko yabo hejuru, bambaye imyenda y'ishuri kandi barishimye cyane bari guseka.

Umusore wicaye ndetse wishizeho agatambaro k'umweru, arimo araseka, aho yicaye urabona ni nko kwa muganga.

Umukobwa uryamye ku gitanda uri kwitabwaho n'abaganga babiri, kandi bose bari kuvura amenyo kuko ni cyo ikibazo afite, kandi bombi bambaye nanone udupfukamunwa.

Ni mu ishuri aho hari abanyeshuri benshi, bamwe muri bo bafite biscuit mu kuboko barakuzamuye, harimo ndetse n'abarimu bari kumwe na bo.

Kwa muganga hari abana cyangwa se urubyiruko, baje kwivuza amenyo, bambaye n'imipira y'icyatsi kibisi, umwe we yifashe ku mutwe yambaye n'isaha ku kuboko, undi mu bigaragara ari kumwe n'umuganga uri kumwitaho, n'abandi bahagaze ku ruhande rwe.

Umwana w'umukobwa uri kwireba arimo koza amenyo n'uburoso yambaye agatambaro k'umweru ku mutwe ndetse n'agasengeri nako gasa umweru.

Abagore, abasore ndetse n'urubyiruko rw'abakobwa, bamwe barahagaze abandi baricaye ku meza, bambaye imipira y'icyatsi kibisi, hari icyo bari kutwereka.

Umwana w'umukobwa mwiza cyane, ari kwireba mu ndorerwamo, ndetse ari guseka, ari kutwereka mu kanwa hiwe, yambaye umupira w'imirongo.

Ni mu ishuri aho tureba hahagaze umusore umwe n'umubyeyi umwe ndetse n'umugore umwe, barimo barareba ibyo mwarimu ari kwigisha umwana w'umuhungu ufite icyo ari kureba igishushanyo kirimo amenyo arimo aramwigisha.

Umusore uhagaze, uri kwireba, ntashati yambaye, ari kutwereka amenyo ye ndetse afite n'akagozi ku munwa we.

Aka gahungu gato kagiye kwa muganga rwose ubona gafite ikibazo mu menyo, umuganga usibye kumubwira ngo yasame kugira ngo arebe ikibazo yaba afite.

Umusore ufite agasatsi gake arimo aratwereka amenyo ye ndetse afitemo n'akagozi, yambaye umupira ujya gusa n'umweru cyane.

Umudamu wambaye agasengeri mu k'umweru, ari kumwe n'umwana wiwe w'umukobwa na we wambaye uko, bafite uburoso bw'amenyo, arimo aramwereka uko boza amenyo.

Umusore uhagaze, wambaye umupira w'umweru, ufite dreads, kandi ndetse n'agasatsi gake ku mpande, ari guseka, afite n'akagozi ku munwa.

Umusore uri kumwe n'akana k'agahungu, we akaba afite umusatsi mwinshi, ako kakaba gafite agasatsi gake, bose barimo baratwereka amenyo yabo, kandi bafite n'akagozi barimo barakurura.

Abana b'abanyeshuri batoya bambaye imyenda y'ishuri. Bose muri bo bafite uburoso bwoza amenyo kandi n'ibikombe. Barimo baratwereka uburyo isuku ari ingirakamaro.

Ni umwana uri kwitabwaho n'abaganga, umwe aricaye, umuganga undi arahagaze amufashe, umwana arasamye bari kureba ikibazo yaba afite.

Abana barahagaze batonze umurongo kandi bose bafite uburoso bw'amenyo, bari kwiborosa undi agufashe ku kuboko kwe, ni uburyo bwo kugira ngo birinde indwara y'ameyo.

Ni umuganga wambaye icyo bita ga mu rurimi rw'amahanga, afite n'igikoresho kimeze nk'akuma, akaba ndetse afite imfashanyigisho y'akanwa k'umuntu wuzuye amenyo aricyo ari kuyigiraho.

Ni mukirori aho hari abantu benshi cyane, umukecuru umwe bamuhaye impano abandi barabakomera amashyi ubona rwose bishimye cyane.

Ababyeyi bakuze babiri barahagaze kandi umwe muri bo yambaye amadarubindi ari kureba mugenzi we anaseka, basa nkaho bari mu gikoni.

Umusaza ukuze wambaye amadarubindi yishimye cyane, ari guseka ari kumwe n'umusore, hari ibyo yarari kumwereka mu gitabo, biteretse n'ibikombe, hari icyo bari kunywa.

Abakecuru babiri bafite inkoni bambaye imyenda isa barakenye inyuma yabo hari abasore n'abakobwa ndetse ubona bose bari mu nzira ku nzira imwe.

Ababyeyi barahagaze ndetse n'umusaza umwe, bari mu myitozo ngororamubiri kandi mu bigaragara barishimye cyane.

Umugabo ukuze ubyibushye ufite imisatsi y'imyeru ku mutwe, ari kumwe n'umugore we na we ukuze, bombi bari guseka kandi hari icyo bari gukina ku meza.

umusaza wishimye cyane, ari kumwe numugore we bose bakuze, bicaye barimo baraseka kandi bishimye.

Umusaza ukuze ufite imvi ndetse yambaye n'indorerwamo n'umupira utukura, ari kumwe n'umubyeyi na we ukuze, barimo baraganira ndetse hari utuntu arimo kumwereka.

Hari abantu batatu bicaye ku ntebe, abagore babiri n'umugabo umwe ukikiye umwana, abandi badamu bicaye hasi mubigaragara barishimye kandi bari kuganira.

Umusaza wicaye, afite ikaye imbere ye ndetse n'ikaramu arimo arandika, ni umusaza rwose ubona ufite imvi nyinshi z'umweru, yambaye umupira w'imbeho ndetse imbere harimo agashati k'icyatsi kibisi.

Umubyeyi wicaye ku gitanda ufite imvi nyinshi, ari kunywa ibinini afashe n'igikombe cy'amazi mu kuboko kwe.

Umwana w'umukobwa wicaye uri kumwe n'umusaza na we wicaye, uwo mwana w'umukobwa amufashe ukuboko, ubona hari icyo ari kumubwira kandi uwo musaza na we amuteze amatwi.

Umusaza w'imvi yambaye umupira w'umweru, n' ipantaro y'umukara ari mu nzu ye ari kumwe n'umugore w'umuzungukazi, mu bigaragara ni umuganga, ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Umubyeyi ukuze uri kumwe n'undi mugabo w'umuganga mubigaragara kandi akaba afite inkoni ku kuboko kwe kw'iburyo.

Umusaza wicaye ku ntebe, ateruye umwana w'umuhungu, ubona rwose bari gukina umusaza ufite imvi nyinshi z'umyeru.

Umusaza ukuze urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye n'amadarubindi ndetse n'ikabutura n'umupira uciye amaboko.

Umusaza ukuze uryamye ku gitanda, urembye cyane, yambaye umupira w'umweru, afite ubwanwa bwinshi bw'umweru, ku ruhande rwe hahagaze umuganga.

Umugabo wishimye cyane, wambaye amadarubindi, ari kuramukanya n'umugore w'umuzungu na we ugaragara ko yishimye cyane.

Umubyeyi ukuze, uri kumwe n'umuganga, yambaye umupira w'imbeho, ateruye icyuma ndetse bari kumufasha imyitozo ngororamubiri.

Umusaza ukuze uri kugendera ku kabando ari kumwe n'umuzungukazi uri kumufasha kumukorera imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro ijya gusa n'umutuku n'inkweto y'umukara.

Umubyeyi ukuze, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri iciye amaboko, ndetse arimo aramwenyura.

Umugore uhagaze, ufite icupa ry'amazi ndetse n'ikinini mu ntoki, yambaye umupira w'amaboko maremare ndetse n'undi w'icyatsi.

Umusaza ukuze ufite n'imvi nyinshi mu bwanwa, ari kumwe n'umugore bari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye ishati y'imirongo, ukuze ndetse cyane ari kumwe n'umugore nawe iruhande rwe hari icupa afite ku kuboko kwe icupa y'umuti arikuwumwereka.

Umubyeyi cyangwa se umugore ukuze, ufite agasatsi gakeya na we, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, afite n'umwigisha we cyangwa se mwarimu we w'umuzungu, ufite imisatsi myinshi.

Umubyeyi urabona rwose ahagaze ndetse yishimye, arimo araseka, aratwereka ndetse n'isahane irimo ibyo kurya, ikanya, rwose ubona ko agiye kurya.

Umusaza ukuze ari kumwe n'umubyeyi bombi baricaye, afite ibinini mu ntoki ze barimo baramwereka ku gapapuro uko yakoresha ibyo binini.

Abantu benshi bateraniye ahantu ni munsi y'igiti, aho bakoze uruziga, barimo abasore n'abagabo ndetse n'abagore, barimo baraganira.

Umubyeyi w'umumama n'umukobwa we ndetse n'umwuzukuru we, barishimye cyane, barimo baraseka ubona rwose ubwuzu ari bwose.

Abasaza ndetse n'abasore b'abasilamu bamwe muri bo baricaye hasi ubona barimo baraganira.

Umusaza ukuze ndetse n'umugore we, barafatanye, barishimye cyane. We aramusomye ku itama, undi na we yambaye agatambaro gatukura ku mutwe.

Ababyeyi beza, umwe aricaye, umubyeyi w'umupapa aricaye, afite agakombe k'amazi ari kunywa imbere ye hari umumama ndetse na we ubona yishimye cyane amusekera.

Umubyeyi n'umusaza, bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo ku meza hari impapuro ndetse barimo barasoma ibyanditswemo.

Ni umusaza uhagaze, ufashe ku byuma bibiri, yambaye ikabutura ndetse na'gapira k'ubururu, ku ruhande rwe hahagaze umukobwa w'inzobe uri kumufasha gukora siporo.

Umusaza ukuze n'umukecuru cyangwa se umugore we bishimye, bari kumeza barimo barasangira ubona bari kurebana amaso ku yandi kandi bari guseka.

Abagabo bicaye, bafite n'udukoni, mu bigaragara ni abasaza kandi hari ibyo barimo kuganira.

Umusaza ukuze cyane ndetse n'umugore we, bicaye barimo barareba kuri telefone cyangwa se ku itumanaho, hari icyo bari kureba, umwe we yafashe urupapuro ndetse hateretse n'ikirahure cy'amazi ku meza.

Umubyeyi ukuze uri kumwe n'abana be babiri umusore n'umukobwa. Umusore yambaye umupira w'amaboko maremare utukura, umukobwa we yambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru. Bakaba bafite isahani ku kuboko Irimo imigati n'utundi tuntu.

Aba babyeyi bahagaze bari muri siporo ndetse barambuye amaboko yabo, barishimye cyane kubwa siporo barimo barakora.

Umusaza umwe ukuze ndetse n'umugore we, bari kumwe n'abana babo, umuhungu umwe n'umukobwa umwe ndetse n'akandi kana gatoya, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umusaza wicaye, yambaye isaha ku kuboko, ni kinini cyane arimo arakandamo, arimo ndetse kureba ku isaha, kuri iyo saha yambaye ubona ko hari icyo ari kureba.

Umubyeyi ukuze wicaye hagati y'abana benshi kandi harimo n'undi mugore wicaye iruhande rwe ukikiye umwana w'umukobwa.

Umusaza wicaye ufite, ufite ubwanwa bwinshi ndetse ari kumwe n'umwana w'umukobwa uri kumwitaho amuha ku binini byo kunywa.

Umusaza ukuze, ufite ubwanwa bwinshi bw'umweru, ufite ikibazo cyo kugenda, ari kumwe n'umugangakazi w'umuzungu uri kumufasha gutambuka.

Umusaza ukuze yicaye ku ntebe afite n'inkoni, yambaye umupira w'amaboko maremare, ku ruhande rwe hari umukobwa useka neza umufashe ku rutugu.

Umusaza ukuze ndetse n'umubyeyi ukuze, baricaye bombi hari agapapuro bafite barimo barareba ibyanditswemo.

Umusaza ukuze w'imvi nyinshi, wambaye amadarubindi, ari kumwe n'umumama uri kumwereka uburyo afata ibinini ndetse hari n'ikirahure cy'amazi giteretse imbere ye.

Umugabo ukuze cyane, wambaye ishati y'amaboko maremare, ufite n'imisatsi myinshi cyane, yaje kubonana n'umuganga, ku kibazo afite cy'uburwayi. Hari ibyo bari kumusobanurira.

Umugore ukuze ufite imisatsi myinshi, wambaye amadarubindi, aricaye kandi afite ibinini ku meza arimo kunywa umuti.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho bateraniye ari batanu, babiri muri bo bari ku kumurwayi barimo baramusuzuma.

Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin NSANZIMANA uhagararanye n'abagabo batatu ndetse n'abagore batatu bose barishimye cyane.

Ni mu cyuyumba cy'inama, aho hateraniye abakobwa benshi batandukanye, abenshi muri bo bambaye imipira y'imyeru abicaye imbere batatu bambaye imipira y'imikara, umwe wambaye ingofero n'undi yambaye ishati y'icyatsi kibisi n'undi n'ishati y'umweru.

Ukuboko kumuntu utagaragaza amaso, kwababaye ndetse cyane, kuzuyemo ibiheri, arimo aratwereka uko ababaye.

Ni ishusho iri kutwereka ku bijyanye n'ubuzima, mu iyo shusho harimo abagabo babiri, umwe arahagaze n'undi aricaye, bose bambaye amakoti yirabura ndetse n'ishati yirabura.

Mu cyumba cy'inama, hateraniye abantu benshi cyane, abasore n'abakobwa ndetse n'abagabo, bazamuye amaboko hejuru, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugabo ukuze aricaye, ari kumwe n'abandi bana nka batatu, bambaye imyenda y'ishuri. Umugabo nawe akaba yambaye ishati y'umweru, ari kubaganiriza.

Ni abantu benshi cyane bari kugenda mu muhanda, harimo abasore, abagabo ndetse n'abakobwa, bafite n'icyapa kigaragaza uburyo bakwirinda Virusi Itera Sida.

Umwari aricaye ku ntebe yambaye ipantaro yirabura n'umupira wirabura ndetse n'ikoti, yambaye na baji ari mu kanama.

Umuganga wicaye ku ntebe, yambaye itaburiya ndetse n'agapira indani, yifashe ku maboko arimo arareba imbere ye.

Faromasi yitwa Iraguha, iri ku umuhanda neza neza, ni ahantu batwereka aho bagurira imiti, harimo n'abantu barimo baragura imiti. Ndetse no hanze, hari n'abamotari baparitse n'indi modoka ihagaze.

Iki kizu kinini, handitsemo inzu y'ababyeyi y'impinja, bisobanura cyangwa se bivuga ko ni inzu ababyeyi baza kubyariramo.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho hari ibitanda bitandukanye, harimo n'abarwayi babiri, bakiryamyemo. Harimo ndetse n'inzitiramibu, muri icyo cyumba.

Inyubako ndende cyane, hari icyapa cyanditseho poly clinic deretaire, ni mu rurimi rwamahanga, ni ukuvuga ngo ni kwa muganga, munsi yaho haparitse amamodoka menshi ndetse n'abantu bari gutambuka.

Umugabo ukuze uri ku kagare ubona ko afite ikibazo ko arwaye, hari umwana w'umuhungu wambaye ikote ryirabura arimo kumusunika amuganisha ahantu hari ihema.

Inzu ya maternete cyangwa se inzu ababyeyi babyariramo, ni kwa muganga kandi ni hanini cyane, harimo n'amabuye imbere y'iyo nzu ndetse n'ubusitani bwiza.

Kwa muganga hari abantu bicaye hanze, ababyeyi bakuze ndetse n'abasore, baricaye umwe arahagaze, hari umupapa ukuze barimo baraganira.

Ni kwa muganga abantu baricaye bategereje kubonana na muganga, muganga umwe ahagaze imbere y'umurwayi, yambaye ndetse n'agapfukamunwa hari icyo ari kumubaza.

Kwa muganga hari umuganga uhagaze afashe ku cyuma bita mu ndimi z'amahanga scanner, mu bigaragara hari icyo ari kurebamo.

Umusore umwe mu bagore bane, barahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, urebye neza bahagaze kwa muganga, niho bose bari guseka, kandi bishimye.

Muri iki kizu hahagaze umuntu umwe ndetse n'abandi babiri basa nk'aho bari kuganira bazamuka, hakurya hari umusozi ndetse n'ishyamba, imbere y'icyo kizu hari Ibendera ry'u Rwanda, kuri uwo muhanda hari n'abantu barimo baragenda.

Ni ku muhanda nyabagendwa, aho abantu banyura ari benshi cyane, hari n'icyapa kinini cyane kigaragaza ko muri icyo gipangu se cyangwa muri icyo kigo ari kwa muganga, ibitaro bya Rubangeri.

Ni ahantu heza cyane hakunda gukorerwa imyitozo ngororamubiri ku bantu batandukanye bose bifuza kuba bagira ubuzima nyabuzima.

Farmasy yitwa pnel cyapa kiri hejuru yinyubako munsi yicyo cyapa hari umumotari uparitse moto ndetse nu'ndi musore wambaye umupira umwe

Ibitaro bya Kabgayi, hariho n'icyapa cyanditseho, imbere hari umuntu uhagaze, ndetse harimo n'ibiti byinshi cyane.

Farumasi bita Mediasol iherereye i Kanombe, ni ahantu bacuruza imiti atandukanye kandi umuntu wese arahagana.

Ni inyubako yo kwa muganga, hari abagabo batatu bahagaze bari kuganira ndetse n'umwe uri uhagaze ukwe ari kuri telefone, imbere ye haparitse imodoka ya vewiti.

Umusore umwe uryamye ku gitanda yambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero n'umupira w'umweru, imbere ye hari umuganga w'umumama arimo aramutera urushinge.

Ni kwa muganga aho bita mu rurimi rw'amahanga materinete, ni ahantutu abadamu cyangwa se abagore bajya kwivuza cyangwa kubyara, hahagaze abadamu bane bambaye udupfukamunwa.

Ni kwa muganga aho tubona hari ibitanda by'abarwayi ndetse n'akabati cyangwa se utubati twinshi turi impande y'ibitanda by'abarwayi.

Ni mucyumba kinini cyane cy'imyitozo ngororamubiri kubayigana bose, yaba urubyiruko, yaba abakuze, ningeri zose zizamo hano kugira ngo zishobore kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi, urwaye cyane, uryamye ku igitanda kwa muganga. Yambaye n'igitambaro ku mutwe, imbere ye hari abaganga babiri, umwe ni umubyeyi, wambaye amadarubindi, ndetse ufite n'imisatsi myinshi.

Umusaza ukuze wambaye amadarubindi, yaje kwivuza kwa muganga aho yicaranye n'umugore ubona rwose bishimye.

Ni kwa muganga, hahagaze umusekirite ndetse imbere harimo n'abagendagenda baje muri serivisi yo kwa muganga.

Mu cyumba cy'imyitozo ngororamubiri, aho bita mu rurimi rw'amahanga gimu, hari ibikoresho bitandukanye bamwe ndetse mu basore ndetse n'abakobwa bakunda gukoresha.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'ishuri ari kumwe n'umuganga wambaye agapfukamunwa, ari kumusuzuma indwara yaba arwaye.

Mu cyumba cyo kwa muganga ni hanini cyane. Hari n'ibitanda byinshi ndetse n'inzitiramibu nyinshi nazo.

Kwa muganga umumama umwe ugaragara wambaye agapfukamunwa, inyuma ye hari igitanda cy'umurwayi n'umurwayi urimo uryamye kuri icyo gitanda.

Ni mu cyumba cy'inama aho hagaragara abagabo babiri, umwe aricaye yambaye umupira utukura cyangwa se ishati itukura, afite icupa ry'amazi ateretse ku ruhande rwe ndetse na mudasobwa, hari n'undi mugabo uhagaze imbere ye wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Hari ibyo ari kumwereka.

Kwa Nyirinkwaya harimo imodoka irimo gusohoka, hahagaze umusekirite n'undi mugabo wicaye hanze kuri geti.

Icyapa cyerekana Ikigonderabuzima cya Gisenyi, imbere harimo abantu batandukanye baje kwivuza, no hanze hari umuntu uri ku igare uhetse umuntu.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, ni hanini cyane, hari n'igitanda, hari indobo hejuru, hari n'umugabo uryamye ku gitanda urwaye, undi amuhagaze hejuru yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro yumukara, arimo kuzinga inzitiramibu.

Kwa muganga hari amazu abiri manini, ndetse harimo n'ubusitani, harimo n'igiti giteye imbere y'icyo kizu, ndetse n'ikigega cy'amazi.

Ni mu nzu heza cyane, aho hakorerwa imyitozo ngororamubiri ku babyifuza bose, ku babishaka bose, hose ni ahantu heza cyane.

Abagabo n'abagore, benshi muri bo ni abazungu ndetse harimo n'abirabura bake, barahagaze kandi barimo barafata ifoto y'urwibutso.

Kwa muganga hari ibitanda hari n'ibindi bikoresho bitandukanye, bigaragara muri iki cyumba, aho harimo nk'akame n'utumeza twinshi.

Inyubako nini cyane. Ni kwa muganga aho bita; sangwa pori kirinike. Ni heza, hari amamodoka aparitse, harimo ndetse n'abagabo batatu bahagaze barimo kuganira.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari abaganga benshi bambaye amataburiya, bipfutse ahantu hose kandi hari n'ibitanda birimo abarwayi barwariyemo.

Umwami faisal ibitaro biherereye Kacyiru, ni hanini cyane ndetse hari abantu bari kuyigana bajyayo bagiye kwivuza.

Ni ikizu kinini cyane kandi cyiza, baratwereka imbere aho banditse amagambo avuga ngo: Regasi hosipito. Ni kwa muganga barimo barahatwereka.

Abagabo n'abagore bose uko bangana baje gusura inyubako itatse neza yubatse neza, ndetse ni na nini cyane.

Ibitaro bikuru bya gisirikare biherereye hano i Kanombe, aho haza ingeri zose, bitewe na serivisi zikeneye.

Kwa muganga hari ikizu kinini cyanditseho materinete mu rurimi rw'amahanga, ni aho ababyeyi babyarira, hari umugabo uhagaze, wambaye itaburiya y'umweru cyane.

Ni kwa muganga harimo abarwayi baryamye ku bitanda, ndetse harimo n'inzitiramibu muri cyo.

Ibitaro by'i Rwamagana, harimo abantu benshi bahagaze imbere y'icyo kigo, hagaragaramo abazungu ndetse n'abirabura, ubona rwose bose bishimye.

Iyi nyubako ni nziza cyane, imbere harimo abantu batatu ndetse no hanze hari n'abandi babiri bahagaze barimo kuganira.

Abagore benshi bahagaze ahantu, umusore umwe we yicaye ku mabuye, hari ndetse n'imodoka y'umukara iparitse ihagaze.

Ni muri farumasi, iyo ikaba yitwa Progres Pharmacy mu rurimi rw'amahanga, ni ahantu bacuruza imiti itandukanye, ndetse ni hanini cyane kandi harasa neza.

Umuhanda mwiza cyane ushashemo amabuye y'amapave. Aho harigutambuka umugabo umwe ufite akana afashe ku kuboko, ndetse n'imbere ye hari n'akandi kana.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi ni ahanini cyane, ubona rwose hari abantu baje kwivuza, harimo ababyeyi, harimo abasore bamwe bari hasi n'abandi bari hejuru.

Ni mu cyumba cy'inama aho hateraniye abagore benshi ndetse n'abasore bake cyangwa abagabo bake, imbere yabo hari abandi bagabo babiri bicaye, umwe we arahagaze hari ibyo ari kubaganiriza.

Ni kwa muganga muri salle de recption mu rurimi rw'amahanga, aho bategereza umuganga hakaba harimo abantu bamwe bicaye abandi nabo bari kwakira undi musore uhagaze we ufite icyo ari kubabwira.

Hari umukobwa wicaye wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakora k'umukara n'inkweto z'umweru, arambuye amaboko, afite ama ekuteri arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu utagaragaza isura ye, yaje kwa muganga kwivuza ukuguru, aho ari kubabara ku ivi, umuganga umuho, arimo kumusuzuma.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura n'agasengeri gaciye amaboko, wuzuye ama tatuwaje, hakurya ye hari umukobwa wicaye usutamye ari kumureba.

Ni imipira itandukanye harimo umupira w'amaguru icyo bita football, harimo n'undi wa basketball, umupira w'amaboko n'ibindi n'ibindi.

Umusaza uri mu myitozo ngororamubiri, araryamye arimo arigorora ndetse ni mu nzu ye irimo ibikoresho byinshi by'imyitozo.

Umukobwa uhagaze ufite imisatsi myinshi cyane wambaye umupira utukura, mu kuboko kwe afite icupa ry'amazi arimo kunywa, yambaye n'ekuteri mu matwi.

Umukobwa wicaye ku gitanda cyangwa se ku gatebe, wambaye umupira w'amaboko maremare, arimo kubabara munsi y'ivi, aho ashizeho agapfuko.

Abayobozi bamwe ndetse bari kwa muganga, baje gusura umurwayi wagize ikibazo cy'ukuguru kuko n'ukuguru kwe mu bigaragara arakumanitse.

Umugabo cyangwa se umusore uryamye ku gitanda, yambaye amasogisi y'umweru, ikabutura y'umukara n'umupira w'amaboko maremare w'umweru. Amanitse ukuguru kwe ari kumwe n'umuzungu wo kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Umusore uri guterura ibyuma no gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hateretse imbuto zitandukanye amoko menshi, harimo amagi ndetse n'icupa ry'amazi n'ibindi bitandukanye.

Ukuboko k'umuntu gufashe isahani irimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo inyanya, harimo ivoka, harimo na puwavuro ndetse n'ibindi, harimo n'inkweto igaragara ku ruhande rwe.

Umusore wicaye hasi wambaye ikabutura n'agasengeri k'umukara, yifashe ku kuguru ndetse no ku kuboko kwe arimo aratwereka isaha yambaye.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye agakabutura gatoya n'agasengeri n'inkweto z'umweru. Hari icyo ari gusunika ku kibuga.

Umusore cyangwa se umugabo ufite ubwanwa bukeya arahagaze, afite icupa ry'amazi arimo kuyanywa, mu bigaragara afite inyota.

Umugangakazi wicaye wambaye agapfukamunwa wambaye ndetse n'itaburiya y'icyatsi kibisi, imbere ye ku meza hateretse mudasobwa ndetse n'ibitabo n'ikaramu imbere yiwe.

Umwari uhagaze uvuye gukora imyitozo ngororamubiri, afite agacupa k'amazi arimo kunywa, ndetse na esime mu ijosi afite n'agasatsi gake.

Umubikira uri kumwe n'umuzungukazi, imbere yabo hari umwana w'umuhungu wicaye hasi ufite ni ibikinisho ndetse hakurya hari n'abandi bantu bicaye.

Akana gato, kaje kwivuza, kari kumwe n'umuganga. Umubyeyi kandi arimo aramumurika mu maso, ngo arebe indwara yaba arwaye. Amufashe ndetse no ku mutwe.

Ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru, rwose urabona harimo ubusitani bwiza, harimo umusore uryamye hasi undi amuri hejuru arimo aramukanda ku ivi, hari n'umupira ndetse uteretse iruhande rwabo.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri uhagaze wambaye ekuteri mu ijosi, yambaye n'gapira gaciye amaboko arimo kunywa n'amazi.

umusore cyangwa se umugabo wicaye ahantu hatari izuba yambayesenge yumukara ndetse n'agakufi k'icyatsi kibisi afite icupa ryamazi arimo kuyanywa

Umukobwa uvuye mu myitozo ngororamubiri, arahagaze afite isue isume isa n'umweru, afite n'agasatsi gakeya afite n'agacupa k'amazi arimo kuyanywa.

Ni kwa muganga, aho hari ababyeyi baharyamye ku gitanga, undi we aricaye, ari kumwe n'akana ke k'agakobwaka.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye itiriningi y'icyatsi kibisi ndetse nagasengeri kayo arimo kwigorora.

Ni igikoresho cyane cyane gikoreshwa, ku bakinnyi, n'igitanda urebye, ku bantu bagize ikibazo cy'imvune, batabasha kugenda. Iki rero nicyo babashiramo, kugira ngo bashobore kubaterura, babatwara.

Ni ibikoresho byo kwa muganga, harimo ibipima umuvuduko w'amaraso, hari n'umukobwa w'umuzungu wicaye ari kuri telefone.

Umugabo upfukamye wifashe ku ivi, asa nk'ubabaye, ubona yambaye ikabutura ndetse n'umupira w'amaboko maremare.

Umukobwa uhagaze utwereka mu mugongo we, azamuye amaboko arimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye n'ipantaro cyangwa tiriningi ya siporo n'agasenge gaciye amaboko.

Umuganga uhagaze wambaye itabuririya y'umweru ndetse na karavati, afite akantu kameze nk'akabuwate mu ntoki ze.

Ni igikoresho cyo kwa muganga, gifasha cyane cyane abagize ikibazo cyo kuvunika cyangwa se cyo kubabara cyane ku kuguru. Icyo rero, barakibambika kugira ngo kibafashe kuba bagenda neza.

Umugabo uryamye ku gitanda, umanitse ukuguru kwe, aje kwa muganga ndetse kwivuza, hari umuriho ndetse ubona ko ari kumukanda ukuguru.

Umukobwa wicaye hasi uri gukora imyitozo ngororamubiri, asa nk'aho ari muri salon ye, aho afite mudasobwa imbere ye, arambuye ukuboko arimo kwigorora.

Umwana w'umusore uri mu myitozo ngororamubiri, ubona rwose ananiwe, haje umuganga uje kumufata kugira ngo abashe kumutabara kuko ararushye cyane.

Ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru, aho hari abasore barimo barawukina, umwe muri bo ubabaye, uryamye hasi, ari kwitabwaho n'abaganga babiri.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara n'umupira utukura, ari mu cyumba k'imyidagaduro arimo arakora imyitozo ngororamubiri. Afite n'agapira ku kuboko kwe, kuruhande rwe hari n'undi mugabo w'umuzungu na we ufite umupira ku kuboko kw'iwe.

Uumugabo wicaye bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umukara afashe n'agacupa k'amazi.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye umupira uciye amaboko ndetse n'isaha ku kuboko, arimo kunywa amazi.

Ni ku kibuga cy'umupira w'amaboko, aho hateraniye urubyiruko rwinshi ruri mu myitozo ngororamubiri, abana ndetse n'abakuru kandi mu bigaragara barishimye cyane.

Umusore uryamye ku gitanda. Yambaye ikabutura ndetse n'umupira wijimye, afite ku kuboko kwe terefone, ndetse n'ukundi yambayemo isaha. Amanitse n'ukuguru, barimo kumugorora.

Umugabo utagaragara arimo aratwereka ukuboko kw'iwe yafunze igipfunsi, hejuru ye hari umugabo uhagaze wambaye itaburiya y'umweru ashoboye kuba na we ari umuganga.

Umugabo wicaye kumeza wambaye umupira wamaboko maremare ndetse n'ikabutura, ufite uburwayi mu kuguru kwe, hari umugabo uhagaze imbere ye, uri kumuvura.

Kwa muganga hari abagabo batatu bahagaze n'umudamu umwe, muri bo bambaye amataburiya, hari icyo bari kubereka nk'imfashanyigisho ndetse bamwe bicaye hakurya, nabo bambaye udupfukamunwa.

Umusore wicaye uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'umuhondo wanditseho amagambo ari mu ibara ritukura ndetse n'ipantaro yambaye ni iy'umukara.

Umusore uhagaze wambaye umupira waciye amaboko, yambaye na ecouter mu rurimi rw'amahanga, afite muri we icupa ryamazi kandi arimo kuyanywa.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara, yifashe ku ivi ndetse arimo arahapfuka, mu bigaragara arababaye.

Umuntu afashe icupa ry'amazi, arimo gusuka mu kirahure, cy'amazi giteretse kumeza.

Umugore cyangwa se umukobwa wicaye ubabaye ukuboko, yambaye ishati y'umweru ndetse n'agakufi mu ijosi n'impeta, yashize agatambaro ku kuboko kw'iwe.

Umugabo wicaye ku ntebe z'umweru wifashe ku kuboko, wambaye umupira uciye amaboko ashobora kuba yababaye.

Umwari uhagaze uvuye mu myitozo ngororamubiri, ufite agacupa k'amazi ndetse ari kunywa, ufite agasatsi gakeya ndetse yambaye n'agasengeri gaciye amaboko.

Abakozi ba Croix Rouge cyangwa se abashinzwe gutabara abagize ibikomere, bamwe barahagaze, bari kureba uburyo bashobora kuvura umuntu wahuye n'ikibazo.

Umusore uhagaze ufite agasatsi gake ndetse wambaye n'umupira uciye amaboko, afite n'icupa ry'amazi arimo kwimenaho.

Ni mu cyumba cy'inama, aho hateranyeye abasore n'inkumi, bafite ikaramu n'urupapuro bari kwandika, imbere yabo hahagaze umuganga ubu uri kubigisha.

Umusore uhagaze wambaye agapira gaciye amaboko, uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite agacupa k'amazi arimo kuyanywa.

Umugabo wicaye, wifashe ku ivi, ubona ko yababaye, yambaye impeta ndetse n'ikufi n'umupira usa n'umweru.

Hari abagabo babiri, umwe arahagaze undi aricaye, uwicaye afite ikibazo cy'ukuguru ndetse uhagaze ariwe muganga hari icyo ari kumufasha.

Umusore uryamye uri gukora imyitozo ngororamubiri, arasutse ku mutwe we, yambaye ipantaro yirabura ndetse n'agapira k'umuhondo, kuruhande rwe hari umuzungu uriho nawe uhagaze kuruhande.

Umusore uri iwe mu nzu, ashashe tapi hasi, yambaye ikabutura ndetse n'agasengeri asutse imisatsi, arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wifashe ku mugongo, ubabara cyane ndetse no ku gikanu no ku rutugu n'ukuboko n'amavi ariko baratwereka ukuntu yakwitabwaho afashe iyi miti igaragara.

Abagabo benshi barahagaze, bari mu murima, bamwe muri bo bambaye umupira w'icyatsi kibisi, abandi bambaye imyenda isanzwe.

Hari amacupa menshi ateretse ku meza, nta yandi usibye imiti gakondo, hari umudamu wambaye igitambaro cy'umweru ku mutwe, ari kuganira ndetse n'umusore umuri imbere.

Ni ubwoko bw'amavuta atandukanye amavuta yo kusiga, aratandukanye harimo amacupa maremare, magufi atandukanye urabona ko harimo amabara menshi atandukanye.

Ku meza hateretseho imiti y'ubwoko bwose yo kunywa, harimo abagore ndetse n'abagabo bahagaze barimo baraganira.

Umuganga uri mu cyumba cy'ubuvuzi, wambaye agapfukamunwa, imbere ye hateretse amacupa menshi y'imiti, hari n'ikarito afashe mu kuboko kwe.

Ipapayi iteretse ku meza, imwe barayikase indi yo iri kuruhande. Baratwereka uburyo ihiye neza.